Uko bigaragara hano naho ni mu murima umurima bahinzemo amashu, turahabona umuntu uhetse ipombo ari kugenda atera umuti imyaka yiwe. Kandi ikindi amashu turabona ari meza, uwo muntu yambaye bote, yambaye ingofero, biragaragara ko yikwije nyine kugira ngo umuti utaba wamwangiza.

Aha naho haragaragara ibi umuntu uhetse ipombo itera umuti. bigaragara ko ari gutera umuti ibihingwa byiwe ndetse icyo gihingwa narebye neza mbona ni'inyanya. izi nyanya akaba ari kuzitaho kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi zizamugirire akamaro zimuteza imbere cyane.

Aha naho uko bigaragara hari umugabo ufite ibasi mu ntoki. Iyi basi irimo ibyo ari kugaburira amafi yiwe. Imbere ye hari icyuzi cyangwa se aho yororera amafi. Hirya ye hari akazu k'umuzamu ko kurarira ibi byuzi. Inyuma ye hari ibiti ndetse uyu mugabo biragaragara ko ari umworozi w'amafi.

Aha naho hari umuntu w'umumama uteruye akebo kariho ikawa, ndetse impande ye hari ibiti by'imyembe ndetse n'insina, ndetse bigaragara ko avuye gusoroma ikawa mu murima.

Hano hari umukecuru uri gusoroma ikawa, ateza igitambaro ndetse afite n'ikawa nziza cyane zatukuye, bigaragara ko zeze neza.

Aaha na ho ndabona ari mu nzu y'inkoko aho twita mu kiraro cyazo, harimo ubworozi bw'inkoko zikiri zimaze kuba inkuru z'ibishashi ariko zitaratangira gutera nanone kuko ikigaragara cyo uyu muntu ni umworozi.

Hano hari umumama ufite umupanga mu ntoki, ari gutema ibiti by'ibigori, bigaragara ko ari gusarura ibigori by'iwe kandi bigaragara ko byeze.

Aha naho turahabona umumama, umumama uri kubagarira umuceri, bigaragara ko ari mu kabande kandi uwo muceri ari kuwitaho kugira ngo ejo cyangwa ejobundi, uzamubyarire inyungu nyinshi cyane ariko ikigaragara cyo ndabona utarakorakorana.

Nk'uko bigaragara muri ano mashusho, izi ni ingemwe z'imbuto z'imyembe ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye ziri muri pipinyeri ziracyari mu mahoho yazo, bigaragara ko zigeze igihe cyo guterwa.

Aha na ho uko bigaragara ni mu murima abahinzi babiri bari kugenda babagarira ibigori, ariko hirya yabo na ho harimo ikiraro cyambukiranya hejuru yabyo y'ibyo bigori.

Aha naho haragaragara ibiti by'imisave kandi imisave turabizi ko ari igiti gakondo ni icya kera, haragaragara ibiti by'intusi, ndetse n'imirima itarahingwa bigaragara ko hakenewe ubuhinzi ndetse cyangwa ukanahatera ibindi biti bituma ikirere cyacu kigira umwuka mwiza.

Aha naho ndahabona inyambo nziza cyane, inka z'inyambo ziri mu mbuga, inyuma yazo hari urupangu ruzitiye, cyangwa se uruzitiro. Hirya y'uruzitiro, naho hateye ibiti byinshi by'amoko yose.

Nk'uko bigaragara mu ishusho izi ni inyanya harimo izapfuye ndetse n'izitarapfuye, gusa ni umusaruro ugaragara ko ari mwiza cyane. Izi nyanya ni imbuto nini za zindi bita imiholande.

Aha naho turahabona abantu batatu, abantu babiri bafite amasuka bigaragara ko bari guhinga ndetse n'ubahagarariye rwose bigaragara ko ari kubereka ibyo bakora, aho bari guhinga ni muri pipinyeri aho bahumbika, bigaragara ko ari umurima wa kijyambere.

Iyi shusho nayo iragaragaza umuntu uri kuvomerera imbuto z'iwe. Sinzi icyo yaba yarateye ariko ikigaragara cyo ari kuvomera cyangwa se ari kuhira imbuto. Hirya ye hari ibiti ndetse afite rozwari mu ntoki cyangwa se ikivomeresho.

Aha na ho hari ishyo ry'inka inka z'inzungu izo twita firizone, ziragiwe rwose ahantu heza hatererereye, ziragiwe n'umushumba, harimo ibiti, harimo ibyatsi, gusa ikigaragara cyo nyine zimeze neza.

Aha naho turahabona amatungo harimo ihene iri ihagaze ireba abantu uko bahagaze, imbere yabo hari abantu benshi bagiye batandukanye, ikigaragara cyo bari kureba ubworozi bw'umuntu ku giti cye.

Aha na ho hari umusaza rwose wicaye impande y'ibigori, yasharitse ibigori byiza cyane biteye amabengeza. Ibigori bigaragara ko ari umusaruro we amaze kugeraho. Arimo arabipfundika kugira ngo abisharike muri hangari kugira ngo bitazapfa. Ibigori byiza cyane kandi biteye rwose amerwe.

Aha naho turahabona inka nziza, inka nziza cyane twitaga inyambo kandi n'ubundi ndakeka ariko ko zitwa, impande yaho hari umushumba wazo, ugenda uzagaza kandi mushumba ari kumwe n'abaveterineri abo twita abaganga b'amatungo, ikigaragara cyo rero birashoboka ko ziri gukingirwa.